Ibishushanyo byifashishwa nk'imfashanyigisho mu mashuri y'incuke azwi ku izina rya Nasari, kiriho umwana wambaye utwenda two mu ibara ry'ubururu, kikabaho igisokozo ndetse.

Udushushanyo twifashishwa nk'imfashanyigisho mu mashuri y'incuke, turi mu mabara atandukanye harimo: aka oranje, ak'umuhondo, ak'icyatsi ndetse n'ak'umutuku.

Umwicungo ugaragaza abana bageze kuri bane, uduhungu tubiri n'udukobwa tubiri, umwicungo ufite amabara y'umutuku, icyatsi, ubururu n'umuhondo hari n'ababyeyi, abana bambaye icyatsi n'umuhondo.

Ishusho igaragaza inzu aho abana b'inshuke bigira ishakaje amabati y'umutuku, iriho ibishushanyo biri mu mabara yi'icyatsi hariho amasuka, indobo, ingorofani n'biindi bitandukanye.

Ishuri ry'abana b'incuke ririmo ibikoresho bifashisha mu kwiga, harimo udutebe tw'umutuku n'ubururu, ameza y'ubururu, umutuku n'umuhondo.

Ishusho igaragaza ishuri ry'incuke aho abana bagiye aho bishimishiriza harimo ibyo kwishimishirizaho biri mabara y'icyatsi, umutuku, pinki, hari ababyeyi n'abana.

Aho abana bishimishiriza mugihe bafashe akaruhuko bahagaritse amasomo yabo mugihe cy'agahe gato. Hari umwicungo uri mu ibara ry'umuhondo n'umutuku ndetse n'icyatsi, inyuma hari inyubako bigiramo iri mabara y'umweru n'umukara.

Igikinisho kiri mu bwoko bw'ingona kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi gifite amenyo yera n'amaso y'umweru n'umukara, kifashishwa mu gusobanurira abana b'inshuke mu gihe bari kwiga.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga harimo: amakayi, hari irati zifashishwa mu guca imirongo indende ndetse n'indi ngufiya, hakaba ipakasi, udukoresho two kwandikisha, amakeleyo, ikaramu.

Udushushanyo tw'imfashanyigisho, dukoreshwa mu mashuri abanza, hari igishushanyo k'imbwa iteruye akantu mu kanwa gasa ibara ry'ubururu, ndetse n'akandi kari iruhande rw'ako gashanyo ka iniba n'icyatsi kibisi.

Ishusho igaragaza inyubako y'amashuri iteye imbere ni mu bwoko bwa etaje, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya biteye irangi ry'ubururu, hakaba harikandagira ukarabe iriho indobo y'itsi kibisi.

Inyubako y'ishuri ihagazeho abantu imbere bambaye udupfukamunwa, harimo umwe wambaye imyenda iranga akazi akora, impuzankano za gisirikare cy'u Rwanda, ndetse n'abandi bamuhagaze impande harimo n'abadamu.

Ibikoresho byifashishwa nk'imfashanyigisho bikozwe mu biti n'ibindi biri mu ducupa tw'umuhondo dufite udupfundikizo tw'amabara atandukanye: umukara, pinki ndetse n'icyatsi kibisi, harimo udukozwe mu ishusho y'inyuguti.

Inyubako zisakaje amabati yo mu ibara ry'ubururu zifite inzugi z'ubururu ziri hamwe, zigaragara mu kigo cy'amashuri, hakaba hari n'idarapo riteye hagati na hagati y'izo nyubako, iryo darapo rikaba ari iry'igihugu cy'u Rwanda.

igishushanyo cyifashishwa mu mfashanyigisho kiriho inkuru yanditse ngo Bakame yigira umwami w'ishyamba hagaragaraho agakwavu kicaye ndetse n'inzovu iri guturuka mu ishyamba ihagaze ifite amatwi manini.

Ibishushanyo by'ibikoresho byifashishwa mu mirimo itandukanye, irimo ubwubatsi, ubukanishi ndetse n'ibyifashishwa mu bubaji, harimo inyundo, ubwoko butandukanye, imisumari, impakasi ibifashi.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga, amasomo y'imibare n'ubugenge, bizwi nka buuwate matematakaie, ni ebyiri, imwe irafunguye, indi irafunze, irimo udukoresho, irati, compa kereyo ndetse na gome.

Ishuri rigaragaramo intebe n'amameza ndetse n'ibindi bifasha abana kwiga hakaba harimo ibibaho rigizwe n'amabara y'umuhondo meza y'icyatsi intebe z'umutuku niz'ubururu.

ishusho igaragaza abanyeshuri, bari mu ishuri, ririmo umwigisha bambaye impuzankano ryera ku mashati, amajipo n'amapantaro y'umukara n'inkweto zifunze bamwe, abandi zifunguye

Ishusho igaragaza abanyeshuri bambaye impuzankano zumweru na kaki bari mu rusengero imbere yabo hari abapadiri bambaye impozankano z'umutuku n'umweru.

Inyubako y'ishuri, iri mu bwoko bwa etaje, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi z'ubururu ndetse n'ibyuma birinda abantu biri mu ibara ry'ubururu n'umutuku, impande yaryo hakaba hari ikigega gifata amazi.

Uruherererane rw'abantu bari hamwe hari umugabo uri gutanga ikiganiro, imbere ye hakaba hicaye abanyeshuri bambaye imipira yo mu ibara ry'ubururu iriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, bigaragara ko bari bari mu nama.

Ishusho igaragaraho abanyeshuri bambaye y'uniformu isa umukara n'umweru, hakaba hari n'bambaye amapantaro ya kaki, bahagaze ku mapave ku kayira k'ikigo.

Ihuriro ry'abanyeshuri benshi bicaye hamwe bambaye ubwoko bw'inifomo zitandukanye bisa nk'aho bari bitabiriye umunsi mukuru runaka, harimo abambaye amashati yera, abandi bambaye udupira tw'ibara ry'umuhondo.

Abanyeshuri b'abakobwa bahagaze harimo abambaye uniforomu zo mu ibara ry'umweru amashati n'amajipo y'umukara abandi bakaba bambaye amashati ya buresiyeri ndetse n'amajipo ari mu ibara ry'ivu, bakaba bambaye inkweto zifunze.

Abantu bageze kuri bane bayobowe n'umusore wambaye agapira k'ubururu, ndetse n'ijire y'icyatsi, inyuma ye hari abakobwa bageze kuri batatu bambaye udupira tw'ubururu, n'amajipo bigaragara ko ari abanyeshuri.

Inyubako nziza yo mu bwoko bwa etaje isakaje amabati atukura iri mu ibara ry'umweru ifite ubusitani butoshye burimo ibyatsi ndetse n'indabyo hakaba hari n'igiti giteye imbere y'iyo nyubako.